Abaganga bambaye imyenda ibapfutse hose, bafite agatanda bateretse hasi, bari guterura umugabo bagiye kukamushyiraho, bisa nk'aho uyu mugabo yarwaye indwara z'ibyorezo.

Umuryango wishimye cyane wicaye hamwe, ubona ko basuwe n'abajyanama b'ubuzima, barimo barakusanya amakuru ku mibereho y'umuryango inyuma yabo hari insina.

Ikirango kigaragaza, inama yari iteganyijwe ku itariki ya makumyabiri n'enye, Werurwe, bibiri na makumyabiri na gatatu, hari amagambo yanditse avuga ngo baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, imyitwarire ishobora gutera ihungabana.

Ubucuruzi buzwi ku izina rya farumasi, bukaba ari ubucuruzi bucuruza imiti ndetse abantu bakaba bahagana, byihutirwa bakahagura ibinini igihe barwaye.

Abantu b'abagabo bahagaze bemye barimo bari bifotoza bahagaze imbere y'inzu nziza ifite amarange y'ubururu, hejuru hari ikirango cyanditseho amagambo avuga ngo ikigo nderabuzima cya Nyamikamba.